Gutera umuti imyaka wahinze biba byiza cyane, kubera ko bituma ubusimba budahangara iyo myaka. Kandi burya bituma umusaruro uboneka, iki na cyo kirimo. Nko gutera umuti ndetse no no guhinga.

Izi mbuto ntabwo ndi kumenya izo arizo, ariko ndi Kubona zishaka, guhingwa mu butaka, hamwe niz'indabo, niba arizo zeramo iz'indabo, ntabwo mbizi ariko, zishobora kuba zakwera, mu butaka bwiza, kuko n'ububutaka ndikubona, ari bwiza cyane.

Maze gusobanuka cyane kubera ko umuhinzi wese azi ko kugira ngo abone umusaruro uhagije ari ukuba yarateye umuti ariko bitewe n'ibihingwa nk'ibirayi batera umuti, ibishyimbo batera umuti ndetse hari ibihingwa byinshi batera umuti kugira ngo imyaka yere neza azabone umusaruro uhagije.

Gutera umuti imyaka biba byiza cyane, kuko biyirinda ubusimba buyangiriza, bukayirya, ntiyere neza. Imyaka rero yera burya iyo hari ibintu byinshi wakoze. Harimo gutera umuti ndetse...

Mu myaka biba byiza cyane, kuko bituma iyo myaka yera neza cyane. kandi umuti wirukana usimba dukunda kurya imyaka imwe n'imwe tukayangiza, bigatuma umusaruro utaboneka. Ubwo rero, mwite ku bihingwa byanyu.

Ifumbire iba nziza, cyane cyane iyo uyihinganye imyaka, biguha umusaruro mwinshi cyane, kuko iyo uhinganye ifumbire, ndetse ugatera n'umuti, bituma weza, umusaruro mwinshi cyane.

Imiti bayikoresha mu myaka kubera ko hari imyaka myinshi bahinga bigasaba yuko bayitera imiti, mu gihe baba barayihinganye n'ifumbire. Umuhinzi rero ubizi neza, umuhinzi wa kijyambere, umuhinzi wabimenyereye kandi ubirimo neza, agomba gutera imiti imyaka aba yahinze kugira azabone umusaruro mwiza cyane.

Inyongeramusaruro iba nziza cyane harmo Detane n'ayo iba mu nyongeramusaruro, kandi ifasha abahinzi kugira ngo imyaka yabo izere neza. Ubwo rero guhinga utifashishije inyongeramusaruro rwose uba uri kujya mu gihombo, kuberako umusaruro uba mukeya.

Gutera umuti wica udukoko bituma udukoko tudakwirakwira hirya no hino, kubera ko uba warabyiteguye neza cyane, kandi bituma n'inzuki na zo zihovya ahantu hari ubuki bufite ubuziranenge, twitabire rero gukoresha umuti wica udukoko kugira ngo udukoko tudakomeza kwangiriza indabyo.

Mu Rwanda igihingwa cyateye imbere cyane, ahantu hose uhasanga abajyanama b'ubuhinzi , abajyanama buhinzi bafasha abahinzi mu bumenyi rusange babagira inama ku bakoresha ifumbire, inyongeramusaruro muri rusange.

Iyi myaka y'ibigori iri mu murima, murabona ko imeze neza cyane. Irashishe ariko ni uko bayihinganye ifumbire. Guhingana ifumbire rero imyaka myinshi, bituma itangaro umusaruro. Kandi umusaruro wose, nta bwo upfa kuboneka, bisaba kuba warawuhinganye inyongeramusaruro.

Mu Rwanda tumaze kumenya iterambere kubera ko turahinga kandi imyaka yose duhinze, dusigaye turarashiramo. Mbere yo gutera umuti tujyanaga n'umuhinzi uhinga kijyambere, kandi iyo wabonye n'ifumbire ugashiramo, imyaka naka ire rero guhinga tugomba kujya turashiramo ifumbire tugashiramo n'umuti kugirango biduhe umusaruro.

Imbuto za pome ziba nziza cyane kubera ko ziri mu mbuto zifasha umubiri. Yaba umurwayi, n'umuntu muzima, kubera ko pome buriya iri mu mbuto nziza cyane kubera ko zifasha abantu bose.

Isamake ziba nziza cyane kubera ko ziba mu nyama z'umweru, abantu bose bemerewe gukoresha, isamake rero baziteka mu buryo bwinshi rwose, kandi biterwa n'ukuntu baziteguye hari ukuntu bazitegura ntasosi, hari ukuntu bazitegura mu bundi buryo, isamake rero n'ingirakamaro.

Isamaki ziraryoha cyane rero isamaki z'umweru kandi buri wese yemerewe gukoresha, isamake rero n'ubwo zihenda ariko zigira akamaro ni ingenzi cyane.

Indagara ziraryoha cyane iyo bazikawushije zirushaho kuryoha kuko banazirya zonyine. Ariko niyo bazikozemo isose usanga zimeze neza, ariko zirahenda kubera ko zituruka i rubavu mu kiyaga cya kivu.

Isambaza ziraryoha cyane, cyane cyane ariko izo mu kiyaga cya kivu. Isambaza iyo bazikawushije umva urazirya ukumva urishimye cyane rwose. Isambaza zubahwe, kandi isamba zivamo isosi nziza cyane kuyirisha ubugari.

Isambaza ziba nziza cyane kubera ko isambaza bazikoramo isosi bakazirisha ubugari ndetse bakazirisha n'umuceri, isambaza nk'iyo bazikawushije ushobora no kuzirya zonyine ariko nturye nyinshi, ariko isambaza ziba ingenzi cyane.

Samutoni ni zimwe musamake ntoya ziba mu biva mu mazi, samutoni rero turazikunda ziraryoha cyane, kuzirisha umuceri usanga bimeze neza cyane, ndabakumbuje rero abantu bazibona hafi yabo.

Isamaki ziraryoha cyane kubera ko ziba mu nyama z'umweru. Abantu bose bemerewe gukoresha mu mahoteli rero usanga baziteguye neza cyane, mu rugo iyo wayiteguye nanone usanga abana bishimye, kubera ko n'iyo banyoye nk'ako gasupu, ubona ari ingenzi cyane kandi abana baryohewe.

Isambaza ziraryoha cyane, kubera ko bazikoramo isosi wazirya zikawushije zonyine, wazirisha umuceri wazirisha ubugari wazirisha n'akandi kantu wababa wateguye, ubwo rero isambaza kubera ko ziboneka iwacu mu Rwanda, hari izituruka mu Kivu hari n'izituruka muri Burera, ubwo rero ariko ntabwo ziryoha kimwe, izo mu Kivu i Gisenyi i Rubavu ni zo ziryoha cyane ariko na zo zirahenda.

Isamake ziba nziza cyane kuko ziba mu nyama z'umweru, umuntu wese yemerewe gukoresha, isamake rero wayisanga muri hoteli wayisanga mu kabari kiyubashye barayitegura, kandi no mu rogo iwawe wayigura ukajyanira abana cyangwa se bitewe n'abari mu rugo bakazikoresha isamake ziba ingenzi cyane.

Amasamake bashyize muri barafu ni ukugira ngo adapfa, kuko gashobora kwangirika, uramutse uyaretse akaba utyo gusa, ubu uku bayateguye ni nkuko bayashyira muri firigo, rero abantu bose baba bashaka gutegura amasamaki bajye babanza kuyategure neza bayashyire muri barafu kugira ngo atangirika.

Igikoresho cyiza cyane cyo mu bakungu, kandi umuntu wese wifite yakagombye kugira firigo iwe mu rugo ,kubera ko ubikamo imbuto ,ubikamo inyama ntizipfe, ubikamo ibintu byinshi bigakonje ,babika ibyo kunywa bigakonja, firigo ni igikoresho cyiza kandi cy'ingenzi mu muryango ,kubera ko gifasha abantu kubika ibiribwa neza ntibyangirike.

Ni nziza cyane kubera ko zivagamo salade kandi, izi nyanya zo uzikoramo n' isosi, ibiryo ukabirya biryo. Iki gihaza nacyo kiraryoha iyo ukiriye ukakirisha, ibishimbo kiba kimeze neza cyane.

Izisambaza benshi barazikunda, ariko ntikubona zimeze nk'indugu, indugu abanyarubavu nibo bazita indugu, ariko abaha iwacu i musanze hariya muri ruhondo bazita amahera, amahera rero nayo n'ukuvuga ngo bayateka mu isosi, ukayarisha ubugari, wayarisha umuceri, uyarisha igitoki, ibiryo ibyo aribyo byose babitekagamo ayo mahera,

Amafi araryoha cyane kubera ko bayategura mu buryo butandukanye bayakoreye isosi, abayarya bayikoze mu bundi buryo bijyananye n'ubuzobere mu mahoteli usanga baba bayateguye mu buryo butandukanye amafi araryoha cyane.

Isambaza ziraryoha cyane cyane iyo uri kuzirisha ubugari, ariko isosi yazo nayo wayirisha umuce, wayirisha ibirayi. Kandi isambaza iyo zikawushije kavu ziraryoha cyane rwose wazirisha n'inyama ikawushije kavu ukumva urahaze.

Umusaruro uba mwiza cyane bitewe na nyirawo, iyo yakwitayeho akawufumbira, akawutera umuti, umusaruro uba mwiza cyane bitewe n'imyaka wahinze naho wayihinze, har'igihe ushobora guhinga imyaka, ahatashobora kwera hakonja kandi wenda yakunda kwera ahantu hashyuha cyane.

Insina ziba nziza cyane, kuko hari insina zivamo ibitoki by'inyamunyu barya, hari n'insina zivamo ibitoki bivamo umutobe, rero umuntu ufite insina na we rwose agomba kumenya yuko, hari insina igomba kuvamo umutobe, kandi ko hari n'insina igomba kuvamo icyo kurya.

Igikuyu kiba cyiza cyane kubera ko bakiragiramo amatungo, kubera kobibujijwe kuragira ku gasozi. Ubwo rero umuntu wese ufite ubutaka bwagutse, yakagombye gushyiraho aho agomba kuragirira amatungo ye, kugira ngo yirinde kwishyira mu kaga ari guhanirwa kuragira ku gasozi.

Ibirayi biba byiza kubera ko ni igihingwa gihingwaga na benshi, kandi gikundwa na benshi umuntu urya ibirayi rero yumva nta bindi bintu yarya akenshi ibirayi bihari, nubwo n'ibindi biryoha ibirayi babiryamo ifiriti, ibirayi babiryamo amaganda, ibirayi babirya bitogosheje, enda wabirya bitetse no ku bishyimbo, ibirayi wabirya bitetse mu gatotogo ibirarayi ntibyubahwe rwose.

Ikidodoki kiri mu mboga ziryoha cyane, kubera ko wakirisha umutsima, wakirisha umuceri, wakirisha n'ibirayi, wagiteka no mu gitoki, ni ukuvuga ngo ikidodoki umuntu wese ufite uruzitiro, iyo wagiteye, gifasha abana kandi ntiwanarwaza bwaki kubera ko kiri mu mboga ziryoha cyane. Ndi kubakangurira rero ko buri wese ufite uruzitiro ko yashyiraho ikidodoke.

Amasinde aragaragara ko amaze igihe kirekire, kuko urabona ko amaze kongera kumeramo ibyatsi. Guhinga neza rero byose biva mu bumenyi, kuko hari amasinde amara iminsi wayataremo imyaka ikera neza, byose bituruka n'icyo uzanye.

Imihanda ibamo amabuye yangiriza ibinyabiziga byinshi kubera ko bigenda biri kwiceka ,bikiceka . Ni yo mpamvu abamaze gutera imbere bashyiramo urwondo ruvanze n'amabuye kugirango ibinyabiziga bitangirika. Yewe n'abanyamaguru bahanyura neza. Rero turashishikariza abantu bari mu makaritsiye amaze gutera imbere yuko bakora imihanda yabo ...

Aya masinde asa n'ayoroshye kubera ko bayahinzemo ibigori, urabona ko ikigorigori cyarumye, rero ariko n'abari guhingamo baratahana inkwi da none se warya ibidahiyekandi wiriwe mu ikigorigori.

Urutoki biba ingirakamaro cyane, kubera ko rwera ibitoki bitandukanye bitewe n'ibyo wahinze. Hari abahinga inyamunyu, hari abahinga ibivamo nk'umutobe, hari abahinga ibivamo imeneke nka za kamara, goromishere ndetse n'ibindi.

Ishyamba ry'inturusu riba ingenzi cyane, kubera ko ibiti by'inturusu babyubakisha, ibiti by'inturusu ni ingenzi cyane, mbese umuntu ufite ishyamba aba afite amafaranga menshi, kubera ko ibiti biba ingenzi cyane kuko bikoreshwa ku bintu byinshi.

Umusaruro w'ibitunguru, nawo ni umusaruro mwiza cyane, kuberako uguteza imbere abahinzi kandi n'umusaruro uza vuba kandi uzana amafaranga byihuse, kubera ko iyo imvura yaguye mu rugero, cyangwa se mwarawuciriye, umusaruro mwinshi cyane, hanyuma ukabone amafaranga, yo kwikenuza.

Mu cara niho ahantu henshi hasigaye ibibanza byinshi byo kubaka. Nubwo n'ahubatse usanga izo nzu zubabatse........ubwo rero abafite utwe ni ukujya gushakaho ikibanza kandi kigura make.

Amasinde yararaye cyane rwose， ushingiye ku gihe bayahingiye，aya masinde yakagombye kuba ario n'imyaka， kuko urabona y'uko yatangiye kurara， kandi burya amasinde ahoze maze na none usanga..

Amajeri aba meza cyane kubera ko bayarya ari urunyogwe, bakarya yumye, bakayarisha igitoki. Amashaza araryoha mu birayi, ndetse mu mvange wasanga ari neza cyane. Iyo yumye rero na bwo hari n'abagakaranga bakayarya nk'ubunyobwa bukaranze.

Izi ndabo uzisanga ahantu henshi ,kandi izi ndabo ahantu ziba zihinzwe usanga n'ubundi zitumye haba heza cyane ,ariko izi ngizi zo urabonako batigeze bazikorera isuku, zabaye ikigunda.

Ziba nziza cyane kubera ko ziraryoha cyane, kandi nta muntu udakunda avoka n'uwaba atayirya yaba afite icyo kibazo cyihariye, ariko avoka ku mvange rwose, avoka ku muceri ziba nziza cyane, kuko iri mu mbuto zikunzwe na benshi.

Umusaruro w'ibirayi biba bihinganye inyongeramusaruro uba mwinshi cyane, kandi ukazamura uwabihinze. Rero dusabwa guhinga neza bijyanye n'igihe tutavangavanga imyaka, kugira ngo igihingwa kiba gihinze kizane umusaruro.

Umusaruro w'ibigori uba mwiza cyane kuko ibigori babirya byokeje, babirya bitogosheje , babiryamo impungure, babiryamo umutsima iyo babibetesheje, umusaruro w'ibigori uba mwiza cyane .Iyi avoka na yo ntitwabura kuyivugaho kuberako na yo iraryoha.

urutoki ruba ingenzi cyane kubera ko urutoki rutanga umusaruro, kandi uwo musaruro iyo weze, iyo byeze ibitoki urakigurisha ukabona amafaranga yihuse, ukaba wagura ibindi bintu ukeneye mu rugo. Hari icyera imineke, hari icyera inyamunyo, muri make urutoki ni ingenzi cyane.

Umusaruro w'insina nawo uba mwiza cyane, kubera ko hari insina zivamo inyamunyo, hari insina zivamo umutobe, ni ukuvuga ngo umusaruro w'insina nawo uba mwiza cyane kandi burya wafasha n'abaturanyi, kuko iyo wawuhinze neza warakoreye urutoki usanga umusaruro ubaye mwinshi kuko unarakigurisha ukobona amafaranga.

Umusaruro w'ibirayi urashimisha cyane iyo weze neza cyane cyane iyo uri kubona bisa gutya, bitarabaye umuhondo. Ubwo rero nawe iyo ugiye kubisarura, ubisarura wishimye kubera ko ubipakiza imodoka cyangwa se ukabipakiza n'imifuka n'amagare, icyo gihe rero bizana iterambere mu muryango, abana bakiga neza, kandi nawe ugatera imbere.

Amabuye aba meza cyane, kuko afasha cye abubatsi bari gukora beto, cyangwa se bari no gukora ibindi. Igaraviye rero, iba nziza cyane, kubera ko ituma iyo beto ikomera, cyane cyane mu bwubatsi.

Amasinde asa n'amaze iminsi kandi iyo amasinde amaze iminsi atanga umusaruro mwinshi cyane, urabona ko aha ngaha kuhahinga ibirayi ni bwo hatanga umusaruro mwinshi. Rero umusaruro ugirira urugo akamaro, kubw' ibyo rero ntawemerewe guhinga amasinde arengeje igihe.

Umurima uri kugaragara nk'uwera n'ubwo nta myaka irimo. Kandi uyu murima uramutse uhinzemo ibirayi, wabona umusaruro mwinshi cyane, uramutse witaye ku ifumbire ndetse n'izindi nyongeramusaruro, nko gutera mbere.

Karoti ziba ari ingenzi cyane mu buzima kubera ko karoti abantu barazirya, bazikorara mo isosi kandi n'umuntu wazihinze nawe akazihinga neza zimuha umusaruro. Zimuha amafaranga yihuse kubera ko zikenerwa ahantu hose kandi karoti ziranaryoha.

Umusaruro w'ibigori uba mwiza cyane, iyo bawuhinze neza. Ibigore rero bisaba kubihinga neza kugira ngo bitange umusaruro, kandi iyo wabihinze neza bizana umusaruro mwinshi cyane, kubera ko usanga ikigori cyarahetse ibigori nka bibiri, bine, cyangwa ibirenze, bitewe n'aho ari ho. Ibigori rero ni ingenzi cyane mu buzima.

Ubuyobozi bwahagurukiye abantu bubaka amazu ahantu hatemewe; reba nkuyunguyu wagiye kuyishyira ahantu mu ishyamba, akayishyira ahantu hatari umuhanda; uyu yakoze amakosa cyane kubera ko nk'inkuba igihe cy'umuyaga ishobora gukubita ugasanga abarimo irabatwitse cyangwa se inzu irahirimye. Ubwo rero bivuze ko amashyamba n'amazu yo kubamo yuko tugomba kubitandukanya.

Imyumbati bigaragara ko imeze neza muri uyu murima. Kuko irashishe, ariko iyi myumbati, sindayiryamo isombe kubera ko itari yazamuka cyane ngo igere hejuru. Muri make, imyumbati iba myiza cyane.

Kwita ku buhinzi biba byiza cyane, urabona ko ibi bigori byahinzwe ku murongo, byahinzwe mu buryo budasanzwe, ubwo rero bahinzi bose bagira udukoryo twawo, ariko kugira ngo ubone umusaruro wihuse upfa kuba wahinze ugafumbira ugaterana...

Ubworozi bw'amatungo magufi buba bwiza cyane, ariko cyane cyane nkokorora inkoko, usanga inkoko ziteje imbere uwazoroye kubera ko iyo zaruye zarura imishwi myinshi kandi ukaba wakemura ibibazo, inkoko rero zifasha abantu cyane.

Avoka iraryoha cyane, kubera ko ni immbuto nziza ushyira ku biryo ukarya ukumva urishimye cyane, kandi avoka burya n'ubundi, avoka iri mu bihingwa byiza bishimisha abantu, kuko iyo bayiriye ku birayi usanga biryoshye cyane.

Gushyinyingura rero abantu benshi bamaze kumenyera ko bashyiraho indabo, kandi bimaze kuba umuco. Indabo rero burya ni ikimenyetso cy'urukundo, niyo mpamvu abantu bose bamaze gushyingura bashyira indabo ku mva hejuru, kugira ngo n'ubundi baherekeze uwabo neza, uyu muco rero ugomba kuturanga.

Umurima wa karoti uba mwiza cyane iyo wawitayeho ukawuhingana ifumbire, ndetse ukawuhingana ugaterana n'umuti neza. Kandi umusaruro wa karoti burya uzana amafaranga yihuse, kuko yaba uguze ashaka kurya yaba n' ushaka kurangura aguha amafaranga yihuse kandi uyakeneye.

Akenshi cyangwa umusaruro mwinshi cyane kubera ko wabikoranye ubuhanga yongeramo n'ifumbire maze ugahingana inyongeramusaruro yindi, bigenda neza cyane, rero bitanga umusaruro mwinshi kandi usa ...

Uyu musaruro wib'bigori urabona ko umeze neza cyane, kubera ko bigaragara ko babihinze neza, guhinga rero bisaba guhingana n'ifumbire , ndetse ugashyiramo n'umuti, ubwo rero umusaruro w'ibigori niwubahwe kubera ko ibigori bifasha abantu, kandi umusaruro w'ibigori iyo weze neza abantu batera imbere.

Amahundo y'ibigori urabona ko ameze neza cyane, kandi bigaragara ko yahinzwe ahantu heza cyane, kuko urabona ko ni amahundo afite n'impeke nziza cyane. Ibigori rero ni ingirakamaro kuko biraryoha ibigori babirya bitetse amahundo, ari impungure ukabishesha ukarya umutsima ukanwa n'igikoma.

Ibihaza biba byiza cyane kubera ko bifasha abantu bafite n'uburwayi bwa diyabete ndetse n'abandi barwaye ubundi burwayi, ariko no mu bukwe ntabwo wakoresha n'ubushitsi utazanyemo ibihaza. Kuko ubushitsi bwinshi yaba ubwa mariyaje yaba ubw'iki usanga rwose bateguye n'ibihaza kubera ko ibihaza biraryoha rwose.

Isombe ni zimwe mu mboga ziryoha cyane kandi zikundwa cyane na benshi. Kubera ko isombe ziri mu mboga nziza, kandi ziri mu mboga zifite intungamubiri. Ubwo rero iyo bashyizemo ikinono ziraryoha cyane kandi ugasanga abazirya bose bamerewe neza.

Impungure ziba nziza kubera ko abantu barazirya, bakamererwa mu buzima. Impungure rero ,hari ubwoko bwinshi hari impungure z'umweru hari impungure z'umuhondo ,izo zose barazirya. Ariko iz'umuhondo barazibetesha, zikavana umutsima usa n'umuhondo, ukagira ngo ni Pate Jone . Uraryoha cyane, uwo umutsima iyo uwuriye. Ariko n'uyu w' umweru na wo, nta kibazo cyawo da! Nuko wenda biba bitandukanye ku mabara, ariko yose ni myiza.

Voka ni zimwe mu mbuto z'ingenzi cyane, kubera ko avoka iraryoha , avoka bayirisha ibiryo , avoka ku mvange rwose ntiwahagurukaho, avoka wayirisha umugati cyane cyane nka hano i Musanze, avoka rwose kuyirisha imbada ishyushye, usanga biryoshye cyane birajyana.

Imyumbati iba myiza cyane, kubera ko iyo wayihinze neza irera, kandi imyumbati nayo iba ingirakamaro. Umwumbati rero wawurya nk'ikijumba, umwumbati wawurya bawubetesheje havuyemo ifu, imyumbati mbese iribwa mu buryo butandukanye, kandi ivamo umusaruro mwiza cyane.

Guhinga intoryi biba byiza cyane kubera ko intoryi ziri mu bihingwa bifasha umuryango. Kandi intoryi nta n'ubwo zivuna mu kuzitaho. Ntizisaba ifumbire nyinshi, ntizisaba umuti. Muri make umuntu wahinze intoryi zimuteza imbere.

Ibitunguru na byo biba mu bihingwa byiza bitanga umusaruro, kandi biryosha ibiryo, ariko bigira ubwoko kuko nk'ibingibi bita puwaro babiteka mu isombe, bakabiteka mu ntuze muri, muri boyiro, biryoshya isosi, ikaryoha cyane, hari na bya ... na ntuze, na... ni byinshi, ni byinshi ariko twivugire kuri iyi puwaro, puwaro bakunda kuyiteka mu isombe.

Amatungo aba meza cyane, kubera ko akemura ikibazo kihuse, nk'ubu ngubu ushobora gukenera nko kwishyura minerivari z'abana ukagurishamo ihene imwe da, bakayijyana ugakemura icyo kibazo cya minervari ,cyangwa se no guhaha, no gukemura n'ibindi bibazo.

Ibitoki biba byiza cyane， biba ingenzi kuko hari ibitoki bivamo imineke，bivamo umutobe，ibitoki bateka aribyo by'inyamunyo， rero umuntu ufite urutoki nawe aba yariteganyirije cyane， kubera ko ruzana amafaranga.

Ziba nziza cyane kubera ko zihumuza ibiryo, cyane cyane rero iyo wazishyize mu isosi y'inyama wayaronse. Ziba nziza cyane ariko no mu mvange na ho bazitekamo da! ukumva ziraryoshye kubera ko zihumuza ibiryo.

umusaruro w'ibigori wiyongera cyane iyo wawuhinganye inyongeramusaruro, cyane cyane kwibanda ku ifumbire mvaruganda n'imborera, ukabivanga ariko ugashiramo n'umuti. Ariko rero nanone ibigori na byo biri ubwoko bwinshi: tamira na mayizori ntabwo byose byera kimwe.

Imyumbati ni umusaruro mwiza cyane kubera ko ivamo ibyo gutunga umuryango bayirya bayitetse imyumbati bayirya bayikozemo ubugari, imyumbati bayirya isombe imyumbati ifite akamaro cyane.

Amateke n'imyumbati biba mu biribwa byiza cyane, kubera ko nta ngaruka ku mubiri ,kandi burya amateke aryoha ushobora kuyarya yonyine, ushobora kuyarya atekanye n'ibishyimbo, ubwo rero n'imyumbati na yo ni uko ,ushobora kuyirya yonyine cyangwa wayitekanye n'ibishyimbo, biba byiza cyane, kandi kuko biri mu bitera imbaraga.

Imbuto izo bita mu ndimi z'amahanga furuwi cyangwa se furuwite ziba nziza kubera ko zirinda indwara, zirinda indwara kuko yaba umwana umwana ararazirya umukuru akazirya, mbese umuntu ukuze akazirya n'urwaye akazirya ubwo rero niba bazirya bakamererwa neza, ni byiza cyane ko buri wese yaziyoboka kandi akazigura kuko ziba nziza.

Umusaruro w'inyanya ni umusaruro uteza umuhinzi imbere cyane, kuberako iyo wazihinze zikera neza ziguteza imbere kuberako urazigurisha ukabona amafaranga yo kwikenura ukaba wagura ibindi udafite ukagura imyenda, ukagura n'umuceri ,ukagura n'ibindi udahinga ,mbese umusaruro w'inyanya ni umusaruro mwiza cyane ariko kugira ngo nawe uwugereho bisaba yuko uwuterana inyanya ndetse ugashyiramo n'ifumbire kugira ngo uwurye neza.

Avoka iraryoha cyane kandi iba mu mbuto zikundwa n'abantu benshi. Urabona ko nk'iyo avoka rwose isa neza kandi bigaragara yuko iryoshye. Avoka rero, iyo avoka wayirya no ku mugati, avoka kuyirisha imvange biba byiza cyane.

Umusaruro w'ibirayi uba mwiza cyane iyo wabihinze mbwe neza mu ishyamba, bizana umusaruro mwiza cyane, kandi ibirayi birakundwa cyane. Ibirayi babirya bitetse, babirya byokeje, babirya babicomye ba mucoma, mbese ibirayi ni byiza cyane.

Abantu bahinga icyayi ni muri Nyabihu za Ngorore aho hirya hepfo niho bakunda guhinga icyayi. Kandi icyayi nacyo kiba ingirakamaro cyane kubera ko umusaruro woherezwa mu mahanga, amafaranga akaboneka. Umusaruro w'icyayi rero na wo ni ingenzi cyane, kandi icyayi .....

Amateke arararyoha cyane, ntaho ahuriye n'aya mugumba, aya ngaya rero ushobora kuyarya wayatekanye n'ibishyimbo, ushobora kuyarya wayatetse yonyine, ushobora kuyarya wanayavanze n'ibindi, muri make aya mateke umuntu wa nayahinze akera neza, ayajyana ku isoko akabonamo n'amafaranga, yo kuba yagura mo ibindi bintu.

Abantu borora inkoko baba barahisemo neza. Kubera ko inkoko zitanga umusaruro wihuse, kandi zizana n'amafaranga yihuse. Inkoko rero waziryamo inyama, inkoko wazijyana ku isoko, kuko ni ubworozi bwihutisha umusaruro w'amafaranga.

Ziraryoha cyane, ariko cyane cyane iyo ari imbangurire, kandi mbangurire zerera hafi cyane ku buryo n'umwana yayisarura, akagenda akayitara hari n' izindi zerera amezi menshi, cyangwa se imyaka myinshi n'izo utara ntizishye vuba ariko ugasanga ziryoje.

Insina zibamo amoko menshi, hari insina y'inyamunyu iyo barayirya noneho, hari n'indi nsina ivagamo imineke imineke na yo barayirya hari n'izindi nsina rero zitandukanye zitwa umushaba, umushaba na wo barawurya kandi umushaba uraryoha cyane, ariko ino aha iwacu ntabwo umushaba ukunda kohera ntabwo ndawubona nwubona mu isoko gusa. Ubwo rero insina na yo ni ingirakamaro kandi insina ifite umumaro mwinshi cyane havamo n'umutobe.

Murabona ko zigeze igihe cyo gusarurwa kubera ko n'aba baje kuzireba kandi ingano zivamo ibyiza zivamo imbada, zivamo umutsima, ingano zivamo igikoma, muri make ingano ni nziza cyane.

Puwavuro ziba nziza cyane kubera ko zikoreshwa mu mafunguro yacu ya buri munsi, baziteka mu nyama, baziteka mu mvange, aho waziteka hose puwavuro wasanga zimeze neza cyane, kubera ko ziryoha kandi zituma ibiryo bihumura neza.

Amapera aba meza cyane kubera ko akundwa n'abantu bose, yaba abana yaba abakuze barayakunda. Kandi amapera iyo yeze neza azana umusaruro mu rugo, kubera ko barayagurisha bakabonamo amafaranga, asigaye bakayarya bagahaho n'abaturanyi.

Avoka ziba mu mbuto nziza zituma umubiri umera neza, kubera ko iyo waziriye uba wumva waguwe neza. Avoka rero na yo iri mu za mbere ziryoha kandi uyirya ku biryo, wayirya yonyine, Kandi uyirisha n'umugati. Urumva ko avoka ni imwe mu rubuto rumeze neza kandi rutuma umubiri umera neza.

Ikoranabuhanga ryabaye ryinshi kuberako n'abagore bararigira, urabona nk'iyo umugore ari mu murima ubu ashobora kuba ari gutanga gahunda yo kumugezaho ifumbire kugira ngo afumbire ibi birayi bye ,nabisarura azabipakize bimeze neza .Ubu rero ikoranabuhanga ryarasakaye mu Rwanda kandi abagore nabo bajya barikoresha kuberako ubundi ryari ryarahariwe abagabo gusa.

Umusaruro w'ibigori uba ushimishije, iyo wabihinze neza kandi ukabihinga ahantu heza. Ibigori rero bisaba kubihinga mu buryo bugezweho, kugira ngo ubone umusaruro mwiza cyane. Ibigori rero biba ingirakamaro.

Imyumbati iba mu biribwa biryoha cyane kandi bifasha abantu, kuko imyumbati bayirya nk'ibijumba bayitetse, bayirya bayikozemo ifu ikavamo ubugari, imyumbati iba myiza cyane kubera ko iribwa mu buryo butandukanye.

Ipapayi, iba iy'ingenzi cyane mu buzima, kubera ko iraryoha. Ipapayi, iri muri zimwe mu mbuto abantu bose bakenera. Ubwo rero aya mapapayi ushobora kuyahinga. Ariko, ahantu hashoboka cyane cyane , ni mu gace k'imisozi. Niho bakunda guhinga amapapayi nk'aya.

Guhinga neza biteza imbere umuhinzi, guhingana ifumbire cyangwa se ugatera n'umuti mu gihe gikwiriye, icyo gihe rero iyo wabyitayeho ubona umusaruro mwinshi cyane, kandi uwo musaruro uteza imbere. Umusaruro rero uboneka bitewe n'ukuntu wahinze.

Ibitunguru biba byiza cyane kubera ko babikoramo sarade, barabikaranga mu biryo, Ibitunguru barabigurisha bakabona amafaranga, mbese ibitunguru biri mu musaruro uba mwiza cyane ku muntu wabihinze, kandi uwo musaruro, kubihinga nabwo bisaba ubwenge no gutekereza cyane, kuko ntabwo wapfa kubihinga uko wiboneye ngo uzasarure umusaruro...

Guhinga neza ni uguhinga bijyanye n'igihe, Kandi ugahinga imyaka na none ijyanye n'aho uri guhinga, hari igihe ushobora guhinga ahantu, ugashyiramo imyaka itajyanye na ho, ukabura umusaruro rwose.

Abahinzi bahinga imbuto babona amafaranga menshi cyane, kubera ko bazijyana ku isoko bagatahana amafaranga, kandi umuntu wahinze imbuto nk'izi ngizi abona amafaranga yihuse kubera ko umukiriya yagusanga no mu rugo.

Abahinzi borozi bateye imbere cyane, aho usanga umuhinzi agiye guhinga, kandi ibijyanye n'ubuhinzi no gushyiramo inyongeramusaruro bikorerwa ku ikoranabuhanga, kubera ko byose bikorerwa kuri telefoni, urumva ko rero ubuhinzi mu Rwanda bwateye imbere cyane da!

Imyembe iba myiza cyane kuko iraryohaga kandi iba mu mbuto ziba zikenewe na buri umwe wese. Ubwo rero imyembe bayikoramo ji, imyembe bayirya gutya, ukayihata ukawurya, akawurira aho ngaho. Imyembe rero na yo iba ingenzi cyane.

Ibigori burya biba mu myaka y'ingirakamaro kubera ko bituma umuntu adasonza vuba niyo kimwe usanga ari byiza ariko, nanone nshishikariza abahinzi kugira ngo bajye babihingana ifumbire ndetse babitere n'umuti kugira ngo bitange umusaruro umwe.

Murabona ko ubworozi ni bwiza cyane, ariko ubworozi bw’inkoko butanga umusaruro mwiza cyane. Amagi, kandi agira umumaro wo kuyaha abana, kuyaha abarwayi, ndetse no kuyagurisha kuko azana.

Umusaruro w'ibirayi uba mwiza cyane, ariko ugwira bitewe n'ukuntu wawuhinze, burya guhinga ibirayi bisaba kubihingana ifumbire ukabitera umuti kuko bizana umusaruro mwiza cyane, ubwo rero ntabwo wabihinga utashyizemo inyongeramusaruro, ng'uzabona umusaruro uhagije.

Imbuto ziba nziza cyane amapera, amapera na yo araryoha iyo uyahaye abana abana barishima cyane, ubwo rero muntu ufite nk'aho guhinga agomba guhinga ipera mu rugo, ndetse n'izindi mbuto ziryoha nk'ibinyomoro wabihinga mu rugo.

Ubworozi n'abwo bumaze gutera imbere cyane mu rwanda, usanga ahantu henshi abantu barakoze iyo mishinga bakorora inkoko, kandi inkoko ziri mu bworozi bwihuta cyane kuko zitanga n'amafaranga yihuse bitewe n'uko inkoko zaroraga wagurisha inkoko bitewe n'icyo ukeneye.

Amapapayi araryoha kubera ko ni amapapayi ya kizungu. Ariko afite itandukaniro na twa dupapayi dutoya. Aya ngaya rero n'abarwayi barayarya ndetse n'abakuru barayarya. Aya mapapayi ni meza cyane kubera ko no mu isoko usanga yihagazeho, kubera ko imwe ntiwayibona munsi y'inoti y'igihumbi, igaragara.

Amapera araryoha cyane, kandi abantu bose barakunda, urabona ko nk'aya ngaya, yeze neza yaratukuye, ndetse cyane cyane abana iyo wababayariye amapera, biba byiza cyane. Kuko nabagira inama n'ufite n'aho kuyahinga, azayahinge nta kibazo.

Ibigori iyo bihinze neza bitanga umusaruro mwinshi, kandi bigatanga n'amafaranga. Kubera ko iyo wabihinze mu buryo bugezweho rwose birera cyane, ku buryo wabijyana ku isoko ibindi ukabirya, ukabona n'amafaranga yo gucungura ibindi ukeneye mu rugo.

Umusaruro w'imyaka uba mwiza cyane kubera ko wawuhinze neza uzana amafaranga mu rugo , noneho abantu ntibicwe n'inzara. Rero guhinga neza ugafumbira bizana inyungu nyinshi mu muryango, bisaba guhinga wabitekerejeho.

Guhinga ibirayi biba byiza cyane kubera ko umusaruro wabyo uzamura umuhinzi. Kandi ibirayi ni ibihingwa rwose bikenerwa. Bijya mu mahanga ,hehe. Ibirayi babiryamo ifiriti, bitogosheje, amaganda . Muri make umuntu wahinze ibirayi aba yariteganyirije cyane.

Ibireti na byo biba byiza cyane kuberako babikora babikoramo umuti mu ruganda ruba rwarabigenewe. Ibireti rero bakunda kubihinga mu gace k'ishyamba mu murenge wa Kinigi, umurenge wa Kabatwa za Rubavu, mbese Rubavu, Nyabihu na Musanze ku gice cyegereye ishyamba.

Ibitoki biba byiza cyane mu buzima, kubera ko hari ibitoki bivamo imineke, hari ibitoki bivamo umutobe, hari ibitoki bateka cyane cyane nk'inyanyu, rero umuntu wahize urutoki nawe aba yariteganirije cyane, kubera ko ntiyabura amafaranga make, agurisha kimwe akabona amafaranga yo gukemura akandi kabazo.

Ibijumba biraryoha cyane kandi ni ingirakamaro. Uwariye ikijumba kimwe arakomera, kandi bakigira n'mpamba bitewe n'urugendo. Abana barabirya rero kandi bakabiraza n'iyo bagiye kwishuri babanza kuryaho mu gitondo, umwana yirirwa akomeye akiga neza ntasinzire.

Ipera iyo rimaze kwera nta muntu utarigirira apeti yaba umwana yaba umuntu mukuru ararirya rwose ntacyo riba ritwaye. Ubwo rero nk'umuntu ufite aho kurihinga mu rugo yarihinga kubera ko riba ryiza cyane hari n'abayahinga ari menshi.

Amashaza aba meza cyane ,kandi araryoha kubera ko iyo uyariye ari urunyogwe usanga ari meza cyane, kandi n'iyo bayariye yumye usanga bimeze neza cyane. Amashaza rero aba meza ,bitewe n'ukuntu wayahinze kandi ukayitaho.

Ibigori bya mayizole biba byiza cyane kubera ko babikoramo patejone, kandi ikorwa mumpungure. Ibigori bya mayizori iyo babibeteshyeje n'ubundi unywa igikoma ukarya uwo mutsima muri make ibigori biba byiza.

Kuwureba ugasanga uraryoshye cyane, kuko unogeye amaso, umwumbati rwose bigaragara ko bawuhinze ahantu heza cyane, urabona ko weze ibijumba binini cyane, kandi uyu mwumbati rwose, umva weza neza pe!

Ibijumba biraryoha cyane, kubera ko ibijumba bifasha abantu benshi kandi ibijumba burya hari naho babikoramo biswi, ibijumba rero biraryoha babirisha ibishyimbo, babirisha imboga, babirisha ikintu cyose kiriho, ikijumba wakinywesha amata.

Ihene ni imwe mu matungo y'ibanze mu matungo magufi, afasha abaturage, kuko iyo wagize ikibazo cy'amafaranga ihene uyiijyana ku isoko ikaguha amafaranga ukagira ibyo wikenura ubwo rero korora ihene ni ukwiteganyiriza.

Ziraryoha cyane kubera ko bazikuramo umutobe baranazirya bazihase ukazishyira ku isahani zisanzwe w'inanasi uba nziza cyane aho bishoboka wazihiga ubutaka bwose butera, ariko inanasi zirera cyane.

Ubwoko bwiza cyane, urabona ko aratukuye kandi asa naryoshye, hano ni ukuvuga ngo nk'umuntu ufite ikibanza kinini, yakagombye guhingamo amapera, kuko amapera araryoha ibihe byose, kandi abana barayakunda ndetse n'abakuru.

Ibihaza biraryoha cyane iyo babigeretse ku bishyimbo. Ariko no ku mpungure na bwo biraryoha. Babitekana n'ibijumba, ariko cyane cyane bya bijumba by'umutuku nka nyirawadada. Ni byo biryoha cyane, kuko igihaza iyo. Wagitetse ugisatuye kiba kimeze neza cyane, cyagiyemo n'umushongi.

Ingano zegereye umugezi, nazo zikunda kwera kubera ko ziba zishishe kandi ntizikenera andi mazi, kubera ko haba hakonje. Ubwo rero, guhinga hafi y' ahari umugezi, bisaba n'ubundi kwigengesera cyane kuko hari igihe amazi atembye akajyana za ngano.

Iyo wahinze ibigori, ukabihinga byegeranye ntabwo bizana umusaruro ushimishije, kubera ko biba bimeze nk'ishyamba, ubwo rero bitera kimwe kimwe ntibiheke. Ubwo rero bisaba ko mu guhinga ibigori uko twagiye tubihinga neza, noneho tukabishiramo n'ifumbire, tugashyiramo n'umuti kugirango byere neza, kandi bitanga umusaruro mwinshi cyane.

Umusaruro w'ibirayi iyo waguhiriye uteza imbere umuhinzi kubera ko awukuramo amafaranga, kandi amafaranga yo kwicyenura mu rugo, ugakuramo amafaranga yo kwishyurira abana ku ishuri, ugakuramo amafarnga yo gukora ibindi byose biba bicyenewe mu rugo, ariko nanone ibanga ryo kugira ngo uwo musaruro w'ibirayi ugwire ni uko uba warawuhinganye, warahinganye ifumbire nziza, ugatera n'umuti mu gihe gikwiriye, umusaruro w'ibirayi rero ni mwiza cyane.

Ibinyomoro biba umusaruro mwiza cyane kubera ko iyo wabihinganye umuti, ukabihingana n'ifumbire, ni ibinyomoro bitanga umusaruro mwiza cyane. Kandi usanga bifashishije abantu benshi biri mu mbuto zifasha n'abarwayi.

Umuganda rusange uba mwiza cyane, kubera ko uhurirwaho n'abaturarwanda bose, kandi ibyiciro byose, yaba abayobozi b'abaturage, ab'inzego z'umutekano bose bakora umuganda, kandi ugasanga barishimye, ugasanga igihugu bimeze neza cyane.

Amata aba meza cyane, iyo ateguranwe isuku ariko iyo ateguranwe umwanda, rwose ashobora kuzana ingaruka mu mubiri, kubera ko aba yangirijwe n'aho bayateguriye, rero buri wese agomba kuzirikana yuko amata agomba gutegurirwa ahantu heza cyane.

Ibitunguru bivamo sarade nziza cyane. Ibitunguru bitukura biraryoha, n'ubwo wabirya ari byonyine, washyizemo ka vinegere, uba wumva uriye ibintu byiza cyane, kuko abahanga cyangwa se babirisha agafiriti, hari n'igihe babiteka mu nyama, ugasanga biryoheje isosi.

Amajeri rero aba meza cyane kuyarya mu gitoki, kandi wanayateka yonyine. Hariho n'abayakaranga bakayarya nk'ubunyobwa. Inkananka akaranze. Ubwo rero iyo wanayatoranyije neza, wakongera ugakuramo n'imbuto yo guhinga. Barayahinga kandi yera ahantu hose.

Ibijyanye no guhinga rero ubundi igitsina gore ni cyo kikigaragara cyane muri icyo gikorwa cyo guhinga, kuko abagabo ntabwo bakunda kujya guhinga kubera ko abenshi baba bagiye mu bindi biraka, wenda bakunda gukora igifundi, ariko abagore n'abakobwa bakuze ni bo bakunda kujya mu murima guhinga. Kenshi usanga aribo benshi bagiye guhinga.

Ni igihingwa cyiza cyane kubera ko gituma ibiryo biryoha kandi iyo wagihinze neza ugashiramo umuti ,n'ubundi bitanga umusaruro mwinshi cyane . Ubwo rero, umuntu wese wahinze inyanya, agomba kuzirikana yuko agomba kuzifumbira akazitera n'umuti ,kubera ko zitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Umusaruro w'amashu uba mwiza cyane ,kubera ko utuma mu rugo haboneka amafaranga iyo weze neza cyane ,kandi burya amashu ni imboga nziza cyane ,kubera ko baranazipakira bakazijyana n'i Kigali ukazana amafaranga da !Ariko hari n'igihe ushobora kuyagurishiriza no mu murima cyangwa ukabona amafaranga hafi, kandi ni n'imboga nziza cyane, kuzirisha umuceri ,kuzirisha ubugari, wazirisha n'ibijumba amashu rero ni meza cyane araryoha.

Imyumbati iraryoha cyane, kubera ko iribwa mu buryo bwinshi. Wayirisha ibishyimbo, wayirisha imboga, imyumbati bayikuramo ifu tukarya ubugari. Ubwo rero imyumbati urumva ko ni myiza cyane kubera ko iribwa mu buryo bwinshi.

Umusaruro w'icyayi ni umusaruro w'igihingwa ngengabukungu, kubera ko icyayi gitumizwa mu mahanga kandi ubwo bakijyana mu mahanga kizana amadovize kandi kikazamura uwagihinze, umusaruro w'icyayi rero tuwiteho aho bishoboka hose.

Ibi bijumba biraryoha cyane kubera ko ubu bwoko babikoramo na biswi. Ibijumba bisa n'umuhondo rero mwo imbere, aba ari ibijumba byiza cyane. Ari no kukirya cyokeje na bwo kiraryoha kukirira mu...

Avoka ziba nziza cyane kuko zibaga mu mbuto nziza zifite intungamubiri. Avoka rero kuyirisha imvange, kuyirisha umuceri ,avoka kuyirya yonyine, ukayirisha umugati cyane cyane imbada, biraryoha cyane. Ubwo rero ndabakangurira mwese guhinga avoka.

Kuhira imyaka biba byiza cyane kuberako bituma imyaka yera neza nk'iyo imvura yabaye nkeya cyangwa yabuze, ubwo rero kuhira imyaka nabyo bigomba kwitabwaho kuberako iyo wuhiye imyaka yera neza cyane, ubwo rero muzirikane y'uko kuhira imyaka y'uko biba byiza.

Imyumbati iraryoha cyane kubera ko iribwa mu buryo bwinshi. Bayirya itogosheje itetse nk'ibijumba, bayirya yavuyemo ifu ukaba uriye ubugari. Iyo uriye ubugari bw'umwumbati buriya uba uriye umwumbati, kandi imyumbati bakunda kuyitekana n'ibishyimbo bitsimbye.

Imyumbati iyo bayanitse neza ivamo ifu nziza iri guhumura neza, kandi ivamo ubugari n'ubundi buryoshye kuberako iba yarumye neza kandi ifite n' impumuro nziza, bityo rero birasabako imyumbati yanikwa ku izuba rikwiriye kugira ngo havemo ubugari buryoshye.

Amatu aba meza kubera ko ari mu birinda indwara kandi iyo uyahaye umwana akayarya ni ukuvuga ngo umwana akura neza ,ariko n'abakuru barayarya waba uryaye, urwaye wayarya ,waba uri muzima wayarya ,ubuzima bukagenda neza, ubwo rero amatunda buri wese yemerewe kuyarya mu gihe icyo ari cyo cyose kandi no ko no kuyahinga ,wayahinga ku rutonde, wayahinga ufite igiti icy'avoka ,wayahinga ku kindi giti mu rugo, kuko amatunda ni meza cyane.

Ibishimbo by'ibizungu bitanga umusaruro mwinshi cyane, usanga igiti cyeza ibishimbo byinshi, urabona ko bifite imiteja minini cyane. Ibishyimbo rero by'ibizungu, biba ingenzi cyane, kuko byera n'ibishimbo binini, mu buryo ukoramo impfunsi ugahita uhaga.

Guhinga ibigori, umuntu aba yiteganyirije cyane Kubera ko ibigori biba ingirakamaro, kubera ko ibigori babirya ari impungure, babirya byokeje, babirya biri ku bitiritiri, ibigori iyo byumye babikuramo ifu ukayikoresha icyo ushaka, igikoma, umutsima, n'ibindi.

Neza neza ni ukwita ku bihingwa, kuko iyo uhinze ugatera imbuto ntubyiteho, nta musaruro uboneka uhagije. Umusaruro wose uboneka bitewe n'ukuntu umuhinzi yagize ate ? Yitaye ku byo yahinze.

Iyi myaka bigaragara ko hari abazangirije, urabona ko baziranduye Kandi bayirandura iteze, Ubwo rero abantu b'ababashumba ni bo bakunda kwangiriza imyaka y'abaturage.

Umusaruro w'ubunyobwa rero, nawo uba mwiza cyane, kubera ko ubunyobwa buba ingenzi mu buzima, ubunyobwa babukoramo isosi, ariko iyo bukiri impeke, barabukaranga abantu bakaburya, muri make umusaruro w'ubunyobwa, uba mwinshi.

Ibigori bya mayizori biraryoha cyane kubera ko babirya ari impungure, ndetse babisheshamo n'akawunga kakaba kameze nka pate jone, kararyoha cyane. Ibigori rero ni umusaruro w'ingenzi cyane, kubera ko bigira umumaro kandi biratabara vuba.

Umusaruro w'amasaka rwose urabona ko yeze cyane ,urabona amasaka amahundo yatukuye umuntu rwose azabona umusaruro cyane ko amasaka ni meza yakugamo igikoma avamo umusururu kandisa ni igihingwa cy'ingengabukungu.

Ubushakashatsi nta hantu butaba, urabona ko nk'uyu nguyu kugirango ibishyimbo bye byere neza kandi bidatwaye ibiti byinshi, urabona ko yarabyubakiye ashyiraho n'imigozi. Urabona ko rero uyu muntu yafungutse mu bwonko ibintu byose birizana, namwe rero murebereho kandi muzamukurikize.

Ikigega mu myaka ya kera cyari ubuhunikiro bw'imyaka ivuye mu murima. Ibigori, amasaka, amajeri, ibirayi. Ariko muri iyi minsi ntabwo wakwibeshya ngo ucyubake kubera ko barara babikuyemo. Abajura rwose barakutse.

Leta yacu nziza y'u rwanda, yafashe ingamba zo kurwanya no guhangana n'imirimo ibujijwe abana, umubyeyi rero uzajya, urakoresha umwanya imirimo, imuvunnye azajya arabihanirwa, kubera ko hari n'uburyo, bazajya barabikurikirana kandi uwo bafatiye mu cyuho bamuhane, ubwo rero mwa babyeyi mwe, murasabwa yuko abana bose, mubajyana mu ishuri kandi ntimubakoreshe imirimo ibavunnye.

Amajeri aba meza cyane kubera ko bayarya ari urunyogwe, bakayarya yumye, amajeri bakagarya mu gitoki. Amajeri wayarya yonyine, amajeri iyo yumye barayakaranga nk'ubunyobwa urumva ko amajeri aringenzi.

ubunyobwa buba bwiza cyane kandi buraryoha. Ubunyobwa baburya bukaranze, ubunyobwa babukuramo ifu, igashyirwa mu byokurya kugira ngo bikomeze kuryoha. Muri make rero ubu bunyobwa bweze neza.

Guhinga neza bitanga umusaruro ni uguhingana ifumbire bagatera umuti aho biri ngombwa, kandi burya umusaruro wose uba mwinshi bitewe n'ukuntu umuhinzi yitaye ku gihingwa, guhinga rero ni kimwe ariko no kubyitaho ni ikindi.

Ziba nziza cyane iyo zumye neza, ukazikaranga ugashyiramo n'umunyu uringaniye, rero urya igihaza wamara kurya igihaza ukarya n'inzuzi, urumva ko rero abahinga ibihaza na bo rwose baba bafite umusaruro mwiza cyane kandi uziye igihe.

Ubunyobwa bukaranze bagurisha umugati ukumva biraryoshe rwose. Kandi yaba umwana, yaba umukuru, iyo ari kuburya aba yumva buryoshye, kuko iyo bashyizemo umunyu wongera uburyohe, kandi n'iyo utashyiramo umunyu ukaburya, uba wumva ntacyo butwaye.

Ibitunguru biba byiza cyane, kubera ko biryoshya ibiryo bigahumura neza, babikoramo salade, kandi noneho wabitetse no mu nyama usanga bimeze neza cyane, no mu mvange ariko biba byiza cyane, kubera ko birahumura.

Rero nk' iyi myaka ni myiza cyane umusaruro w'ibigori, umusaruro w'amasaka, umusaruro w'uburo. Ni umusaruro n'ubundi ufasha abaturage cyane kuberako n'utarabihinze abonaho abigurira, iyo babijyanye ku isoko bakabicuruza uyu musaruro rero ni mwiza cyane.

Abahinzi bahinga imyaka ivangavanze mu murima, nta bwo babona umusaruro uhagije kubera ko baba barangavanze imyaka. Ibanga ryiza rero ry'umuhinzi ni uko wahinga imyaka imwe mu murima umwe, aho kugira ngo ubivangavange.

Ingano na zo ziba mu musaruro mwiza cyane ufitiye igihugu akamaro. Umusaruro w'ingano, ingano zivamo igikoma, ingano baziryamo umutsima, ingano bazitekamo igikwanga, ingano bazitekamo imbada, ingano zivamo ifu y'ifarini ikoreshwa mu buryo butandukanye.

Ubunyobwa buba bwiza cyane kandi ubunyobwa bwera na none ahantu habugenewe kandi kubuhinga nabwo busaba guhingwa neza bijyanye n'igihe kandi bisaba ubumenyi bwinshi kugira ngo ubone umusaruro mwinshi. Ubunyobwa rero ku buhinga bawuhinga ahantu hatandukanye.

Ikigega cyari igikoresho cyo hambere cyo bashiragamo imyaka igihe basaruraga, bashyiragamo ibishyimbo, bagasarura amasaka, bagasarura amashaza, bagasarura mbese imyaka yose basaruraga n'ibirayi, babihunikaga mu kigega. Ariko ubu ngubu aho bigeze kubera ubujura ntabwo wakongera gusarura imyaka ngo uyishyire mu kigega kuko wasanga abajura bayijyanye. Ubwo rero imyaka bayibika mu nzu.

Ahacururizwa imyaka iyo uhageze, uhasanga ibyo ukeneye byose kandi bigufasha mu buzima. Abacuruza rero bose na bo bafasha abantu kuko usanga bafite intereko zose, ibishyimbo, ibigori, amashaza, amasaka n'ibindi.

Umusaruro yo mu Rwanda wiyongera cyane kubera ko bawuhinganye ifumbire, aya amasaka nayo urabona ko ameze neza ahinzwe neza ari ahantuza cyane mu minsi mike arabona ko amahundo araba yabaye amahundo.

Ibishyimbo biba mu mbuto nziza cyane kandi y'ingirakamaro, ni mu bihingwa byiza cyane bifasha abantu burya uriye ibiryo bitagira ibishyimbo ntabwo uba uriye. Ibishyimbo rero biba byiza cyane kandi ibishyimbo bikenerwa na buri wese, rero imbuto y'ibishyimbo ni nziza cyane.

Uy' umusaruro w' amajeri rero nawo ni mwiza cyane, kubera ko amajeri araryoha uyarya mu gitoki, hari n' abayakaranga nk' ubunyobwa; umusaruro w' amajeri rero ni mwiza cyane, kubera ko nawo ugira amafaranga menshi kuko agura amafaranga ari hejuru y' ibishyimbo.

Umusaruro w'ibishyimbo uboneka neza cyane iyo wawuhinze mu gihe gikwiriye, cyangwa ukawuhinga ahantu hameze neza, cyangwa se ukaba warahinze ugafumbira ugatera n' umuti, mbese iyo kondisiyo iguha umusaruro.

Inzuzi ziba nziza cyane kubera ko zifasha umubiri gukora neza, kandi rero burya inzuzi ziba ahantu henshi cyane kuko iyo waguze igihaza urakirya, nyuma yo kukirya inzuzi nazo ukazitunganya neza, ukazanika, nyuma yaho ukazikaranga burya ziba nziza cyane.

Ibigori burya ni ingenzi, bigira akamaro kubera ko uwariye ikigori arahaga da, kandi ugasanga afite imbaraga, iyo agiye guhinga, ahingana imbaraga kandi abantu benshi turabizi ko ikigori kiba cyiza. Ikigori kivamo igikoma, ikigori kivamo impungure kandi ibigori babikoramo ibintu byinshi byiza.

Ibishyimbo rero biba byiza cyane ni na yo bibamo feri, ibishyimbo biba ingenzi cyane, kandi ibishyimbo biba mu biribwa biryoshya ibyo ari byo byose, ibishyimbo wabirya ku muceri ibishyimbo wabirya bikaranze, ibishyimbo mbese biba ingenzi cyane.

Umurima w'ibigori uba mwiza cyane kubera ko ufasha abantu, ibigori babirya bikiri mu murima babirya byaravuye mu murima, babirya ari impungure babirya bitetse, babiryamo umutsima barabetesheje urumva ko ibigori ni ingirakamaro.

Ingano ziri mu myaka myiza cyane kuberako ingano zitanga umusaruro mwinshi, iyo wazitayeho ingano zivamo umutsima, ingano zivamo imbada ,ingano zivamo igikoma, muri make murumvako ingano ziba nziza cyane.

Ibigori biba byiza cyane kubera ko ibigori burya ni ingirakamaro; ikigori wakirya cyokeje, wakirya gitogosheje, wakirya ari impungure, bagikuramo umutsima urumva ko ikigori n'ingirakamaro kandi ikigori kirera kikagirirs umumaro abahinzi kubera ko havamo ifu y'igikoma havamo byinshi.

bigori biba ingenzi cyane mu buzima ,kuko ibigori bidufatiye runini ,ibigori tubirya bitetse arimpungure, ibigori turabishesha tugakuramo ifu tukanywa igikoma, ibigori bivamo umutsima ariyo kawunga, urumva ko ibigori n'ingenzi cyane.

Aya majeri asatuye na yo araryoha cyane kuyateka mu mvange ,cyangwa se ukayateka ugakoramo n'isosi ukaba wayarisha kawunga cyangwa na ka patejone, ubwo rero aya amajeri ni ingenzi cyane, ariko ahantu yera ntabwo wapfa kuhamenya, kubera ko ahantu henshi uhasanga majeri bameze gutya.

Umusaruro w'ibigori ni umusaruro mwiza cyane kubera ko iyo wawuhinganye ifumbire cyangwa ukawhinga neza, uba mwiza cyane. Ibigori rero bivamo igikoma, wabirya impungure, urumva ko ibigori ari byiza cyane kandi biririmo umusaruro wo mu Rwanda uteje imbere, kandi ikigori ni ingirakamaro. Ikigori bakirya kinokeje.

Ingano ziba nziza cyane, kubera ko bazikoramo umutsima ,bazikoramo imbada ,bazitekamo igikoma, ndetse ingano hari n'ukuntu baziteka zonyine bakazita imbuguyu, Ingano rero ziraryoha cyane burya mbahaye amakuru yari akenewe kuri izi ngano.

Umusaruro w'ibigori uba mwiza cyane, kubera ko ibigori burya biba ingirakamaro. Ibigori biribwa ari impungure, biribwa ari bibisi bakabyotsa, bikaribwa babitogosheje. Urumva ko umusaruro w'ibigori uba mwiza cyane, kubera ko n'iyo wabijyanye ku isoko usagura amafaranga, ukaba waguramo n'ibindi bikenewe mu rugo.

Amashaza ni imbuto iba nziza cyane kubera ko amashaza barayarya bayatekana, n'ibishimbo bayatekana n'impungure. Amashaza bayateka mu gitoki biraryoha cyane kandi amashaza niyo wayarisha ibirayi, wanayarya yonyine. Hari n'abayakaranga bakayarya nk'inkaranka. Rero amashaza n'imbuto nziza cyane iryoha.

Umusaruro w'amasaka nawo uba ingenzi cyane, kubera ko havagamo igikoma, havamo ubushera, amasaka rero avamo ibintu by'ingenzi cyane. Mu myaka yakera yakorwagamo n'umutsima witwaga rukacarara, kuyisha rero inyama itogosheje, wasangaga ari byiza cyane.

Amasaka nayo aba igihingwa kiza cyane， kubera ko amasaka avamo umusururu， avamo igikoma，kandi amasaka arafasha kuko kera bayakoragamo n'umutsima，bakawurisha inyama. Inyama zitogosheje cyangwa inyama yokeje，ubwo rero amasaka ndayakunda njyewe， kubera ko amasaka avamo byinshi，kandi iyo uyajyanye no ku isoko，avamo n'amafaranga，ukaba wagura n'ibijumba，ukaguramo n'ibirayi，cyangwa ukuguramo n’ibindi. Urumva ko amasaka rero ni meza cyane.

Ibigori biba byiza cyane, nk'aya mahundo rero bayarya atetse, iyo ikigori gitetse kimeze gutya kiri ku gitiriti bacyita ihundo, kandi rero iki ngiki kiba ingenzi cyane uri no ku rugendo ushobora kukihemba kimwe, urugendo rugakomeza kandi rukagenda neza cyane.

Guhinga ku murongo bituma imyaka yera neza, kandi burya iyo yeze itanga umusaruro mwinshi. Nkubu urabona aba bahinze ku murongo, ku murongo wo hagati ushobora guhingamo n'indi myaka ikera. Ariko guhinga ku murongo ni ibya kijyambere.

Babyita ibizungu, kandi ibi bishyimbo byera bimwe binini cyane, biranaryoha ibi bishimbo kubirya, bakabirisha igitoki, ukabirya no mumvange, biba byiza cyane, ariko no ku isoko biba bihenze, kuko nta bwo bigura kimwe n'ibindi bishyimbo, bino byo, bitari ibizungu.

Ibizana umusaruro ni uguhinga bijyanye n'igihe, kandi ukita ku myaka wahinze, ibyo ni byo bizana umusaruro byihuse. Na ho guhinga ugaterera iyongiyo, ntacyo byazakugezaho.

Ingano ziba nziza cyane kubera kozikoramo imbada, bazikoramo umutsima, kandi tuzinywamo n'igikoma. Ubwo rero ingano abantu benshi barazikunda kubera ko ziranatubukabuka, nubwo wenda zidahingwa ahantu hose, ariko ingano ni igihingwa cyiza zaba kivamo ibintu byinshi, byiza by'ingenzi.

Amagi meza cyane kubera ko ari mu byubaka umubiri. Amagi rero bayarya atetse atotogosheje, bakayaryamo umureti, hari n'abagakoroga bakayanywa ari mabisi kugira ngo atunganye mu mihogo yabo.

Uburozi bw'inka ni ubworozi bwiza cyane, kandi ni ikimenyetso cy'ubukungu uko umuntu woroye inka iyo yabyaye itanga amata, kandi amata hari igihe bayasobanura hakavamo n'amavuta, ubwo rero umuntu utunze inka, ni umuntu rwose wifashije kandi ugomba kubahwa.

Ingurube ziba mu bworozi bwihuse buzana amafaranga yihuse, kubera ko zibwagura ibibwana byinshi kandi mu gihe gitoya. Umuntu rero worora ingurube aba afite amafaranga menshi kandi nta n'ubwo zivuna cyane, kuzishakira ibyo kuzigaburira.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi buteye imbere cyane mu Rwanda, kandi bwororoka vuba, kuko inkoko ni umusaruro uboneka vuba, kandi ukazamura umworozi. Ubu rero kubera ko habonetse n'irindi terambere ryo kuzamura umusaruro, abenshi barasobanukiwe.

Ingurube ziba nziza cyane, kubera ko ziraryoha. Ziryoshya inyama kandi n'ubworozi bwazo burihuta cyane, kuko zibwagura kenshi. Kandi iyo zibwaguye, zibwagura ibibwana byinshi. Ubwo rero ingurube kubera ko bamwe n'ubundi bazisingiza, dore ko banazise akazina k'indyoheshabirayi. Iyo uri kuyibona ku isahani, iraryoha cyane rwose.

Itungo ryiza cyane kuko ni itungo rirerire kandi mu myaka yo hambere iri tungo ni ukuvuga ngo ni ryo ryagaragazaga ubukungu, umuntu umuntu woroye inka rero aba ari umukire kubera ko inka ntabwo wapfa kuyorora udafite aho uhinga ubwatsi kubera ko no kuragirira ku gasozi bitacyemewe. Ubwo rero inka bisaba kuyubakira ikiraro kandi ukayigaburira neza, inka bayiha umunyu bayiha n'umunyu kugira ngo ikure neza.

Korora inkoko biba ingenzi cyane mu buzima, kubera ko inkoko zitanga amafaranga byihuse, inkoko zitanga amagi kandi amagi aba ingirakamaro, urumva ko rero umuntu woroye inkoko, abona amafaranga yo gukemura utubazo tumwe na tumwe aba afite, kandi rero ubona n'inyama rwose ntiwakenera inyama woroye inkoko.

Amagi aba meza cyane kuberako ari mu byubaka umubiri. Amagi wayarya atetse, amagi bayateka bayakozemo umuleti, ndetse amagi abayashoboye hari n'igihe bayanywa ari mabisi, akarimena akarinywa kugira ngo rigorore umuhogo we.

Ubworozi bw'ingurube buba bwiza cyane, kubera ko ingurube zitanga amafaranga yihuse, kandi ingurube zibwagura ibibwana byinshi ku buryo iyo bimaze gukura, urabigurisha ukabona amafaranga yo gukemura ibibazo, kandi burya ingurube ziri mu matungo akunzwe cyane kubera ko zivamo akabenzi, kandi akabenzi ari ko bita indyoheshabirayi, ikundwa n'abantu benshi.

Aborozi bo mu Rwanda na bo bamaze gusobanukirwa cyane kubera ko aho bororera amatungo barahatunganije neza cyane kubera ko kuragirira ku gasozi nta bwo bikemewe kubera ko biteza ikibazo mu konesha, urarabona ko nk'aya matungo kubera yororewe mu kiraro, arashishe ameze neza cyane, izi nka rwose zimeze neza cyane.

Abaganga b'amatungo na bo bagira umumaro mwinshi cyane, kandi bafasha abantu. Kubera ko nk'igihe inka yawe yarwaye, araza akagufasha akayivura akayitaho, hanyuma rero inka yawe ikongera ikagarura ubuzima.

Ihene ziba mu matungo magufi abaturage benshi bakunda kugira. Korora ihene rero ni ingirakamaro kubera ko 'ngo ukena ufite itungo rikakugoboka'. Igihe rero wikenereye amafaranga, ihene iyijyana ku isoko, ugakemura ikibazo wari ufite.

Ingurube ziba nziza cyane, kubera ko umuntu woroye ingurube aba afite amafaranga. Ingurube zirabwagura kandi zikabwagura ibibwana byinshi ku buryo ubigurishije ubonaga amafaranga yihuse. Umuntu rero worora ingurube, aba yariteganyirije cyane.

Kuragira ku gasozi birabujijwe kubera ko bizana ingaruka ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Hano ni ukuvuga ngo iyo baragiriye ku gasozi baronesha, kandi iyo bagufashe n'ubundi baguca amande. Ubwo rero twirinde kuragira ku gasozi, kubera ko byadushyira mu kaga.

Amatungo magufi aba meza cyane, kubera ko akenura nyirayo, kandi iyo ukeneye amafaranga byihuse, urijyana ku isoko ugatahana amafaranga, na ho iyo wayafashe nabi n'ubundi nta mafaranga wapfa kubona.

Kuragirira mu biraro abantu bamaze kubyumva neza cyane, kubera ko wasangaga abantu bari kuragira ku gasozi, baragirarira ku gasozi ugasanga bari konesha, rero kuragirira mu biraro ni byiza cyane, no guhinga ubwatsi hirya, cyangwa se ukajya kwahira aho wabuhinze.

Inka ziba ingenzi cyane kubera ko inka ziduha amata, inka ziduha amafaranga, inka kandi zibamo n'inyama, urumva ko umuntu w'umworozi cyangwa w'umutunzi woroye inka, biba bigaragara yuko ari umukungu cyangwa se ari umukire, kubera ko zitanga amafaranga.

Isake rwose ni itungo ryo mu rugo ryiza cyane, kubera ko isake ngo ni isaha isake ni yo ikangura abantu, ariko no ku munsi mukuru rero igafasha abantu kwakira umushyitsi wabo, kubera ko iyo bamaze kuyishyuhiriza amazi amarike ari hariya ubugari buramanuka Kandi bukagenda neza cyane, isake rero ni itungo ryiza cyane rikemura ibibazo vuba byihuse kandi iyo ufite n'akabazo urarigurisha amafaranga akaza.

Amagi aba meza cyane kuberako bayarya atogosheje, bayaryamo umuleti ,Hari n'abayakoroga bakayanywa ari mabisi kandi burya amagi ngo atuma mu mihogo hamera neza. Ku bana rero ,ku bakuru, abo bose barya amagi kandi ntawe yagwa nabi.

Ubworozi bw'inkoko buba bwiza cyane kubera ko buzana amafaranga yihuse, kandi nta bwo inkoko zitwara amafaranga menshi mu kuzitaho, kubera ko ibiryo byazo biraboneka.

Ubworozi bw'inkoko buba bwiza cyane, kubera ko buzana amafaranga yihuse kandi inkoko ziroroka cyane kandi zikororoka, zitanga umusaruro ndetse n'inyungu k'umworozi, rero inkoko zitanga inyama, inkoko zitanga amagi, inkoko zatanga n'amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo magufi nabwo buba bwiza cyane, kubera ko buzana amafaranga byihuse kandi intama nkuko muri kuyibona ntabwo iba ihenze ukeneye amafaranga byihuse wiyijyana ku isoko ukikenura, kandi ukabona ibisubizo byihuse.

Korora inkoko biba byiza cyane kubera ko bizana amafaranga igihe cyose. Inkoko zitanga amagi zitanga inyama. Inkoko muri make ni nziza cyane kubera ko ni itungo ryo mu rugo rizana amafaranga byihuse. Inkoko yaturaga mu byumweru bitandatu. Mwagize amahirwe yo kubona amafaranga byihuse.

Itungo ryiza cyane abantu benshi bakunda, kubera ko rimwe na rimwe bakunda kuryita indyoheshabirayi. Indyoheshabirayi rero ni akabenzi kandi gakundwa n'bantu benshi, Eeee! Barayirya bakishima kubera ko bayirisha ibirayi. Kandi rero ingurube ibwagura vuba kandi ikabwagura ibibwana byinshi, bigatuma n'uryoroye azamuka.

Tumaze kubimenyera abanyarwanda twese; birabujijwe kuragirira ku gasozi, kuko kuragirira ku gasozi, havamo ibyaha byo kunesha, ni yo mpamvu rero buri wese agomba kuragirira mu kiraro, cyangwa se agashaka ifamu/igikuyu, akororeramo inka ze, urabona ko izi nyambo rwose zimeze neza muri iki gikuyu, ubwo rero najya inama yuko buri wese bagomba krorera hehe ?Mu gikuyu cyangwa mu kiraro bijya biba byiza.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bwiza cyane kubera ko buzana amafaranga bwihuse. Inkoko zitanga amagi, inkoko zitanga inyama rero umuntu wazoroye n'ubundi nawe ntiyagira ubworo bw'inyama kuko nawe aryaho kandi akanazigurisha akabona amafaranga yihuse.

Inyoni ni zimwe mu zituma ba mukerarugendo baza gusura kuko zirabakurura cyane, kubera ko kuzireba zishimisha muri make rero aho zikunda kuboneka ba mukerarugendo bakundaga kuza kuzireba.

Ikinyamujonjogori benshi bavuga ko ngo kiribwa, ariko mu Rwanda ntabwo tukirya kubera ko ntabwo kirimo mu nyama turya, ariko mu bindi bihugu ngo hari abakirya, ngo barakirya rwose, ugasanga ngo kiraryoshye, ariko rero mu Rwanda ntabwo tukirya, ubwo abashoboye kukirya kuraje.

Iyi nyoni igira amabara meza cyane ashimishije abantu, kuyireba rero biba byiza cyane, kuko ndi kubona isa n'umusambi. Umusambi rero ni mwiza cyane kubera ko ntabwo wona, ntabwo wangiza imyaka, ni ukuvuga ngo uba uri kwitemberera gusa.

Inyoni ziba nziza cyane kubera ko abantu bakunda kuzireba aho ziba zihuriye ari nyinshi, mu ishyamba ba mukerarugendo baza kuzisura, kandi iyo baje kuzisura basiga amadovize. Muri make rer o,inyoni na zo ziri mu byiza nyaburanga.

Izi nyoni rwose ntabwo ziboneka ino aha, kuko ndi kubona ntarigeze nzibona, ariko ikingiki cyatambye amababa, urabona ko gisa n'ikigiye kwangiriza izingizi ebyiri ziri hejuru y'umugozi, ubwo rero mucunge inkoko zanyu.

Iki kinyoni ntabwo nzi ahantu kiba, ariko uko ndi kukibona mbona ari ikinyoni gishobora kuba cyakwangiriza inkoko zawe, cyazirya kiramutse kibaye hafi y'abantu, ariko iki kinyoni gisa nk'igiteye ubwoba.

Inyoni ziba mu biguruka bikundwa cyane kuko abakerarugendo bajya no kuzireba aho ziri, kandi noneho by’akarusho, nk’inuma, inuma zo baranazirya kuko ziba mu nyama ziryoha.

Abana benshi bakunda utunyoni. Kandi n'abakuru baradukunda. Ariko cyane cyane abana nk'iyo batunyuzeho bagiye ku ishuri, hari igihe bakererwa bari kutwitegereza, ugasanga rwose nta cyo bitubwiye ubwatwo turatuje, bagakererwa bari kutureba. Ubwo rero na two turi mu byiza nyaburanga.

Izi nyoni ziba nziza cyane. Ikibazo ni uko zitaba ahantu hose ziboneka ahantu h'umujyi cyangwa ahantu hari mu kizungu. Ariko ziba na none zikurura ba mukerarugendo kuko baza kuzisura, kandi baza bazanye n'amadovize.

Inyoni ziba nziza cyane kubera ko zikurura ba mukerarugendo. Kandi iyo uri kuzireba wumva uri kuruhura ubwonko. Inyoni rero zigomba kubungwabungwa nk'andi matungo cyangwa se cyangwa se ibindi bintu cyangwa se ibiguruka kubera ko zifasha abantu kuruhura mu bwonko.

Isatura zibera mu mashyamba nta hantu wayisanga mu giturage, ubwo iramutse yanaje mu giturage yangiriza byinshi kuberako ntabwo ziba zimenyereye kubana n'abantu, kuberako zo ziba zimenyereye kwibera mu mashyamba. Iyo zihuye n'umuntu zigira ngo agiye kuzishimuta

Izi nyamaswa tumenyereye ko zibaga mu ishyamba, iyo zageze mu giturage zitera abaturage ubwoba, abana barazibona bakiruka, ariko abashinzwe kurinda amashyamba, nabo bashyizeho gahunda yo kuzikumira. Ubwo rero, ba rushimusi n'abandi bagigizi ba nabi babujijwe kuzibangamira, kubera ko ntabwo zicana.

Ibisiga ntabwo bikiboneka henshi cyane, bakunda kubibona ahantu hegereye amabagiro, abantu bagikunda kubagira ahabonetse hose usanga biri kuguruka bigiye gushaka inyama. Ariko no mu giturage usanga birimo, akenshi biba bije gutwara inyama.

Irashimishije cyane kuko ukuntu iri kurebana rwose, urabona ko isa neza cyane, kandi imisambi wakundaga kuyisanga no ku mahoteli, ariko ntabwo igikunda kuboneka, niba yaragiye kwibera mu mashyamba ntawamenya.

Ingagi ni zimwe mu nyamaswa rwose zifitiye igihugu cy'Urwanda akamaro, kubera ko bamukerarugendo baza kuzisura bagasiga amadovize, Kandi ni byiza nyaburanda. Iyo urikuyireba ubona arinziza cyane nuko wenda abantu bose batabina ubushobozi bwo kuzisura ariko ingigi ningirakamaro

Utu tunyamaswa tuba twiza cyane kubera ko ba mukerarugendo baradukunda kudusura kuko dutuma baruhura ubwonko. Ubwo rero inyamaswa n'inyoni bigomba kubugwabungwa na buri umwe wese kuko na byo biba ibiremwa by'Imana erega ,niyo mpamvu.

Umuyongoyongo ni ikinyoni kinini cyane. Kiba mu ishyamba kandi gikunda no kuza ahantu hari umugezi utemba, cyangwa se hari ikiyaga. Kandi burya kiri mu nyoni zishimisha abantu, kukireba byonyine gusa ubona gishimishije.

Izi nyoni ziba nziza cyane bitewe n'ahantu ziri, kandi iyo ziri ku nyanja cyangwa se ku kiyaga, abantu bashaka kuzireba ni ho bazisanga. Ariko zitinya abantu, kuko hari igihe ishobora kubona ikigurikira ikigendera, bisaba kugenda uri kunyonyomba.

Cyane kubera ko ziba mu bwiza nyaburanga kandi zimara umunsi cyane kubera ko wenda zitakiboneka cyane zakanguraga abantu bitaga ngo ni mu nyombya zakarekare rero zibaho amazo

Mu nyamaswa nziza zishimisha abantu, cyane cyane ba mukerarugendo baza kuzisura bakadusigira amadovize, kandi n'umuntu uyifite mu rugo nk'umukire nawe iyo ari kuyibona imeze neza iri gushimisha abana n'abashyitsi, ubwo rero afite uburyo, yakwizanira akanyoni mu rugo da kakajya karamushimisha.